Bare cyangwa se resitora, ni bimwe mu bintu bigezweho mu gihugu cyacu, ni ahantu usanga ibyo kurya ibyo kunwa bigezweho kandi biteguwe neza. Iyo winjiyemo usangamo abakozi bakirana abantu urugwiro, akenshi na kenshi haba harimo n'akabyiniro.

Abacuruzi b'akabari baba bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha. Bagira ama palato batwaraho inzoga. Zimwe muri izo nzoga habamo za henikeni, mitsingi, pirimusi n'izindi zitandukanye. Bagira na firigo bashyiramo izo nzoga ngo abakiriya bazinywe zimeze neza ziryoshye.

Mu masaha y'ijoro cyane cyane mu ma wikendi, ni bwo usanga amabara cyangwa se amaresitora akomeye, aribwo aba afite abakiriya benshi cyane bayigannye, baba bafite ibyo kunywa bihagije, n'ibyo kurya bimeze neza cyane ndetse n'abakozi bazi kwakira abantu neza ,akenshi haba harimo n'utubyiniro.

Bare cyangwa se resitora zikomeye cyane ndetse n'amahoteli tuhasanga ibinyobwa bikomeye cyane ndetse binahenze. Nko mu binyobwa bisembuye tuhasangamo amarike akomeye, dusangamo za mitsingi, dusangamo n'ibindi byinshi bikomoka ku binyobwa.

Muri bare cyangwa se muri resitora ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi, baje kuhiyakiriza cyangwa se kuharuhukira. Tuhasanga rero hateguye intebe nyinshi zitandukanye, ari udutaburete n'izo kwegamira, ndetse n'intebe z'amadive ziba zirimo. Tuhasanga n'ameza abakiriya bifashisha bari kunywa, barambikaho ibyo bari kunywa cyangwa se ibyo barimo kurya.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza imyenda y'abana, cyangwa se ibyerekeye abana nk'inkweto z'abana, amashati, imipira, amapantaro, uduteteri, amagutiya ndetse n'ibindi byinshi abana bakunda gukoresha ubisanga hamwe.

Nire sikope muriti buzinesi guluperimitedi ni kampani y'abanyesudani, ikora ibijyanye n'ibyokurya ibivana muri bimwe ibibyaza mu bindi, bakora ibijyanye n'imigati itandukanye y'amoko yose, bakora ibiribwa byinshi bitandukanye, kandi biryoshye.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye y'amatungo haba harimo imiti myinshi ishushanyijeho itungo ushaka kuvura, habamo imiti ivura inka, intama, ihene, inkoko, itungo ushaka ko rivurwa iyo miti uyisangamo.

Mu dusantere tw'iwacu tuhasangaga ubucuruzi bwinshi butandukanye. Hari aho bacururizaga ubushera, hari aho bacururizaga ibigage, hari aho dusangaga ibyo kurya muri butike, hari ahacururizwaga imyenda, ni byinshi dusangaga mu dusantere tw'iwacu bihakorerwaga.

Hirya no hino mu gihugu, hari ahantu henshi bakora akazi ko gufura imyenda, baba bafite imashini kabuhariwe mu gufura iyo myenda muri ibyo bakoramo:hari amakoti bafura, ibikuvurureri, amashuka, amashati, amagutiya, amapantaro n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi dusangagamo ibintu byinshi, hari abacururizagamo: ibyo kurya, ibyo kunywa cangwa se inyama, dusangagamo umuntu ushinzwe kwakira abakiriya cangwa se umucuruzi ukubwira uko serivisi atanga imeze cangwa akakubwira ibiciro uko bihagaze.

Mu rwanda tugira amasosiyete abiri acuruza ibijyanye na eyatime, hari eyateri ndetse na emutiyene, aya masosiyete uko ari abiri adufasha kohereza amafaranga ndetse no kuyabikura, kugura amayinite ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa ku ikoranabuhanga, ibi biradufasha cyane mu kugira ikoranabuhanga rigende neza.

Burabasi bare: ni bare nziza cyane igira ibyo kurya, ndetse n' ibyo kunywa, igira isuku cyane ndetse ubona ifite n' inyubako ziryoheye ijisho ku buryo buri wese yumva, yajyayo bagira n' ibyo kurya byiza cyane nka: burusheti ndetse n' ibindi bijyanye n' ibyo kurya.

Amahoro Guest House ni inzu ishimishije kuyireba, iboneye igiraga amacumbi go kuraramo igiraga n'amaroji, mbese ni inzu ubonagamo buri kimwe cose. Iganwaga n'abanyamahanga benshi ndetse n'abanyagihugu na bo barayiganaga.

Amabutika agezweho acuruzaga ibikoresho byo mu rugo gagiraga ibikoresho byinshi bigezweho bitandukanye haramasororigashushaga, haramateremusi gashushaga ,hari agagendanwaga mu ntoki, hari nago basigaga mu rugo bagiraga ndetse n'amasafuriya meza manini haragabagafite imikondo n'imipfundikizo yazo.

Mu kabari ni ahantu usanga ibyo kunywa byinshi akenshi akabari kaba kubatse ku buryo buri wese uhagannye asanga harimo isuku, ndetse harimo n'umwanya uhagije kubera ko utubari twinshi tuba turimo n'utubyiniro.

Gesita hawuze ni inzu ibamo amacumbi yacumbikira abantu. Aho hantu haba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa haba hari na geride nziza cyane, harimo indabo nziza haba haboneye cyane buri wese yifuza kugeraho.

Isantere ya kinigi ni isantere imaze gutera imbere cyane, harimo inyubako zubatse neza cyane, ndetse ubona ko zijanye n'igihe, habamo ibintu bitandukanye ,amashopu atandukanye, twavuga nka shopu icuruza ibijyanye na emutiyene ,habamo amaterefone atandukanye, ya emutiyene haban harimo serivisi nyinshi zijyanye n'ikoranabuhanga.

Mu dusatere usanga harimo ubucuruzi butandukanye hari abacuruza butike cyangwa se shopu, zicururizwamo ama omo, amasabune n'amavuta y'amoko menshi, hari n'abacuruza ibyo kunywa n'ibyokurya, hari n'abacuruza akabari, hari n'abacuruza mobayiro mani ari byo twita mitiyu ,mbese m'udusatere uhasanga imyuga myinshi ihakorerwa.

Inzu z'ubucuruzi zibaga zifite inyubako nziza cane. Ku buryo n'abaganaga izo nzu babonaga aho banyura, cangwa se ku buryo n'umucuruzi abonaga aho ashira ibicuruzwa bye. Muri byo bicuruzwa habaga harimo imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, ibiteteyi, amagutiya, amashati y'abagabo n'ay'abagore, habaga harimo ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zisigaye zubatswe mu buryo bugezweho, basigaye barategetse amasantera akomeye cyangwa se umugi kubaka inzu z'ubucuruzi zubatse neza, zigomba kuba zifite amakaro hejuru, ndetse zisize n'amarangi, zifite inzugi za metalike n'ibirahuri bikomeye cyane.

Inzu z'ubucuruzi, habaga hariho ibirango birangaga ibikorerwaga muri izo nzu, iyo ucuruzaga ibiribwa ugomba kuba ufite ibirango bigaragaza ko aho hantu hari ibiribwa, waba ucuruzaga ibyo kunwa ukaba ufite ikirango cyerekana ko ucuruzaga ibyo kunywa, mbese abakuganaga bakabona ibyo ukora mu buryo buboroheye.

Iyo ugeze mu dusantere dutandukanye uhasangaga ibintu byinshi bihakorerwaga. Habaga aho bacururizaga resitora, aho bacururizaga ibigage cyangwa se ubushera, hari aho usangaga hari inzu babetingiragamo ibijanye n'amakipe, hari aho usangaga hari imitakako ku mabaraza bacururizagamo mitiyu na mobayiro mane.

Amaduka acuruza ibijyanye n'imyenda cyangwa se ibitenge, hakunze kuba hari gukoreramo abadozi. Kubera ko iyo uguze ibitenge bingana no kubidodesha. Ku mabaraza y'aho haba hari abadozi b'inkweto na bo barimo gukorera ibiraka ku nkweto kugira ngo babone amafaranga.

Muri Moteri ni ahantu abantu bajaga bagiye kwishimishiriza ndetse no kuharuhukira, habagamo amacumbi, babagamo ibyo kurya, habagamo n'ibyo kunywa ndetse habagamo n'utubyiniro abashaka kubyina nabo bibonagamo.

Butike abantu benshi niho bakunda kujya guhahira, kubera ko tuhasanga ibintu byinshi bitandukanye: imyaka ,imyunyu, ibyo kurya ibyinshi niho tujya kubihahira, ubwo rero ibyinshi muri byo biba bihenze, birahenda cyane kubera ko babirangura hanze y'igihugu.

Inyubako zisigaye zigezweho mu dusantere ni inyubako zitwa ibihanga. Ziba zubatse ku buryo inkingi ziba ziri imbere ndetse zifite hejuru amakaro ndetse zisize n'amarangi zifite n'inzugi za metarike, isantere ifite zino nyubako ubona iboneye cyane.

Abacuruzi bacururiza ku dutaro ni abantu bacururiza hanze badakora ubucuruzi bwo mu nzu. Aba bacuruzi baba bafite ibicuruzwa bitandukanye nk'ubunyobwa, bombo, biswi, shikarete. Ibintu nk'ibyo bakunze gucuruza biba bitandukanye.

Bare resto fasitifudu ni ahantu dusanga ibintu byinshi bitandukanye habamo ibyo kurya ibyo kunywa amaji bitandukanye, mu byo kurya tuhasanga inyama haba izitetse ,izikaranze ,izitogosheje, burusheti n'ibindi mu byo kunywa tuhasanga, byeri, mitsingi, turubo na fanta n'ibindi byinshi.

Mu mugi niho hantu dusanga ubucuruzi bwinshi butandukanye， habayo amaresitora menshi，bare nyinshi cyane zitanga serivisi zitandukanye，habamo ibyo kurya byiza cyane， ibyo kunywa bitandukanye， mbese ntacyo wahabura mu mugi.

Hirya no hino hagiye havugururwa ibikorwa remezo bitandukanye. Cyane cyane nk'inzu z'ubucuruzi zagiye zivugururwa, ku buryo inzu usanga zometseho amakaro, zisakaje amabati meza, ziteye amarangi, mbese ubona ko aho hantu koko hacururizwa.

Udusantere hirya no hino hagiye hubatswe inzu z'ibihanga. Ni inzu ziba zubatse ku buryo amabati ataboneka, ziba zifite inkingi, hejuru y'izo nzu baba barashizeho amakaro, kandi izo nkingi ziba zitewe amarangi atandukanye. Ni inzu ubonabziboneye iyo bakizubaka.

Inzu z'ubucuruzi, tuzisangamo ibikoresho bitandukanye, bacuruza ibijyanye n'ibiribwa bagacuruza ibijyanye n'ikoranabuhanga, cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ubwubatsi dusangamo amabati, amapensi, imigozi, amaselire n'ibindi byinshi.

Udusantere turi hirya no hino tuba twifitemo inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye, hari aho bacururiza butike zihagaze n'ibyo kurya, hari aho bacururiza ibijyanye n'ikoranabuhanga nka telefoni n'ibindi bijyanye nabyo, aho bacururiza gaze ikenerwa mu gucana, ni ibyinshi dusanga mu dusantere barimo bacururizamo.

Abacuruzi bagira ibintu byinshi bitandukanye, hari abacuruza ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya. Hari n'abacuruza butike, abacuruza ibyo kunywa bagira firigo babishyiramo kugira ngo ababinywa bibamare inyota. Firigo rero icyo imaze ni uko bashyiramo ibinyobwa byari bishyushye, noneho bakabikonjesha, ariko baba bacometse ku muriro. Furigo ni nziza cyane kuko irafasha.

Agolopi ni uruganda rukoraga ibintu byinshi bitandukanye hari: isabune yo gukoropa ikanirukana ibinyenzi ,hari umuti wica imperi ,rukoraga n'umuti wica imibu.

Mu mijyi hakunze kugaragaramo inyubako nziza cyane zigezweho. Izi nyubako akenshi ziba ari ama gesiti hawuze, zigira serivisi nyinshi zitandukanye cyane cyane serivisi yo gucumbikira abantu, bagira uburiri bugezweho ndetse n'amacumbi agezweho harimo ibikoresho byose nkenerwa.

Umujyi wa Musanze ni umujyi umaze gutera imbere cyane, ufite inyubako nyinshi zikorerwamo imirimo itandukanye, hari amaduka acuruza ibijyanye no kurya n'ibiribwa, hari amaduka acuruza ibijyanye n'ibikoresho by'ubwubatsi, hari amasako aguriza umuturage amafaranga, ndetse bakanabitsamo amafaranga yabo.

Gesite hawuze ni inzu zicumbikiraga abantu, abo hanze y'igihugu cangwa se abo mu gihugu y'imbere. Ni amacumbi yabaga arimo ibyumba bitandukanye ku buryo buri wese ushaka kuharuhukira abonagamo icumbi, akaza akaharuhukira.

Iyo ugeze mu isoko uhasangaga ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Reka twigendere turebe ku hacururizwaga imyenda. Iyo tugeze ahantu hacururizwaga imyenda, tuhasangaga imyenda zitandukanye: amashati y'abagabo, amakanzu, imipira y'abagore, amajipo, tuhasangaga n'ibikapu bitandukanye byo mu mugongo, amashakoshi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu Rwanda hari imijyi hirya no hino ifite umuvuduko udasanzwe mu iterambere cane cane nk'umujyi wa Musanze. Dusangagamo amagorofa ageretse cane, dusangagamo ibicuruzwa bigezweho, uruja n'uruza rw'imodoka, uruja n'uruza rw'abantu mbese ni umujyi uteye imbere cane.

Ku mabaraza y'inzu cyangwa se impande z'inzu bacururizamo, hari udukiyosike dukunze kuba duhari. Udukiyosike tugira ibintu byinshi ducuruza hari utugira :amasambusa ,amaji ,amata n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo kurya ubisangamo.

Mu isantere cyangwa se mu masoko, haba hari amazu yubatse ku buryo agaragara ko ari amazu meza cyane, ayo mazu aba ari amazi y'ibihanga ateye n'amarangi, imbere y'ayo mazu hari igihe haba haparitse amamodoka agiye ahantu runaka, cyangwa se avuye ahantu runaka. Haba harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bari kuva cyangwa se bari kujya ahantu runaka.

Foji geste hawuzi (4G Guest House). Ni inzu igezweho, ifite inyubako nziza cyane icumbikira abantu. Bafite uburiri bugezweho bwiza cyane ndetse bushashe ku mashuka meza cyane, ndetse habamo n'isuku ikozwe neza, batanga na serivisi nziza cyane.

Amashopu n inzu zicururizwamo ibintu byinshi bitandukanye， hari shopu zicuruza ibikoresho bya eregitoronike， bya muzika， haba harimo za senti， haba harimo tereviziyo，bafure， za gitari， za mikoro，ni byinshi dusanga muri shopu zicuruza ibyuma bya eregitoronike，bya muzika.

Muri arimantasiyo ni ahantu dusanga ibijyanye n'ibyo kunywa ndetse n'ibijyanye n'imigati. Haba hari icyayi cya mukaru cyangwa se cy'amata, haba hari imigati, keke, n'amaji, ndetse n'imineke.

Ishuri ryigisha ibijyanye ni imyuga, rikorera mu murenge wa Nyange rigira ibintu byinshi ryigisha, nko kudoda imipira y'ubudodo cyangwa se ibiteteyi, amagutiya, amashati n'amapantaro y'abagabo. Iri shuri ryatewe inkunga RDB.

Montana siteyi ni moteri cyangwa se hoteli igira ibintu byinshi bitandukanye, bagira ibyokurya byinshi amafiriti, inyama z'ubwoko bwose bagira n'ibyokunywa byinshi bitandukanye bagira amacumbi agezweho, bagira ndetse n'ubukerarugendo kuko iyo ukeneye gusura ikintu runaka bakugezayo.

Abacuruzi bacuruza ibikoresho bakoresha mu bwubatsi bagira ibintu byinshi: amabati; bagira amabati y'ubwoko bwose: ay' umutuku, ay'umweru, ay'icyatsi, ay'ubururu, bagira amatiyo, bagira ibihombo, banyuzamo amazi, bagira n'ibyuma bitandukanye; bimwe basakaza cyangwa se bimwe bagira inkingi. Ibyinshi bacuruza bidufitiye akamaro.

Inzu zicuruza ibikoresho by'ubwubatsi zitwa kekayori, dusangamo ibikoresho byinshi bitandukanye, haba harimo amatiyo, amabati, ibintu byose bikoreshwa mu bw'ubatsi cyangwa se mu mazi ubisangamo.

Fera gesite hawuze bare resito ni inzu yakorerwagamo ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Bacuruza inyama zihiye cyangwa se burusheti ziba zokeje, bagira n'amafi yokeje meza cyane, aryoshye. Bagira n'amacumbi ndetse bagira n'ibyo kunywa byiza cyane.

Eyateli ni sosiyete y'itumanaho cyangwa ushinzwe kugurisha ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda .Iyi sosiyete igira serivisi nyinshi zitandukanye, igufasha kohereza amafaranga, kubitsa no kukura no kugura amanite ,hari aba ajenti rero bayo hirya no hino bagiye bayikorera .Inzu zifashishirizwamo n'ubucuruzi bwa eyateli baba baziteye amaragi y' umweru n'umutuku.

Vizita gesite Hawuzi Musanze ni inzu nziza cane iri mu nyubako zikomeye zo mu mujyi wa Musanze. Ni inzu ifite amacumbi meza cane, ifite abakozi kabuhariwe bazi kwakira abantu neza cane. Ifite ibyumba bigezweho ndetse n'uburiri bugezweho utasanga ahandi cane cane, iri mu mujyi wa Musanze.

moteri zigiraga serivisi zitandukanye. Bagiraga ibyo kunywa habagamo n'ibyo kurya. Mu byo kunywa habaga harimo inzoga, fanta, amaji, ibyayi, ikawa. Naho, mu byo kurya habaga harimo ibintu byinshi bitandukanye by'biribwa bagiraga n'amacumbi.

Volukano ati senta ni inzu iherereye mu isantire ya kinigi .Iyi nzu iba irimo ibihangano byinshi bitandukanye baba babajije hari n'ibyo baba baboshye. Uduseke, udutebo haba harimo n'ingagi baba babajije mu biti n'udushushanyo twinshi dutandukanye.

Umuntu uri kwifotoza aba yimejeje neza cyane. Agomba gushaka ahantu heza, kugira ngo ifoto ibonere. Iyo yambaye neza ho biba akarusho. Kwambara neza, ni ukuba wambaye inkweto nziza cyane, ipantaro, agapira, cyangwa se ishati bijyanye n'ibyo wambaye, ku buryo ifoto igaragara neza.

Pisine ni akayaga gatoya abantu bikorera ,aka kayaga abantu bakunze kujyamo iyo bagiye koga, cyangwa se kubyiga dukunze kuzisanga mu mahoteli ,cyangwa se mu maresitora akomeye.

Lifani ni kimwe mu binyabiziga byo mu bwoko bwa moto. Iyi moto ni moto itwara imizigo , imbere umushoferi aba arimo yugamye kuko izuba ntiryamugeraho cyangwa se imvura. Inyuma haba aho gushyira imizigo ndetse iba ifite amapine abiri inyuma n'ipine rimwe imbere na deregisiyo.

Hoteri cyangwa se moteri, ni ahantu haganwaga n'abantu batandukanye. Ari abanyagihugu cyangwa se abanyamahanga. bitewe n'uko bakiraga ababaganaga niko nabo babonaga abantu bahagana. Iyo batanga serivisi mbi, abantu barahacikaga. Iyo batanga serivisi nziza bahaganaga ari benshi.

Mu masoko ya kijambere agezweho babaga batandukanyije abacuruzi bitewe n'ibyo bacuruzaga. Habagaho isoko ry'ibiribwa ari ho dusangaga imiceri, ibishimbo, imyunyu, amasabune, amavuta yo gukaranga. Ni byinshi tuhasangaga mu isoko ry'ibiribwa bikenerwa byo kurya.

Hari amakantine aba akomeye cyane aba afite ibinyobwa by'ubwoko bwose, ku buryo n'abantu barangura bajya kurangurirayo. Haba hariyo amaji atandukanye, ayo mu macupa, mu majerekani. Bagira ibyo kunywa byinshi, amarikeri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Muri supermarket na hantu dusangaga ibicuruzwa byinshi bitandukanye abantu benshi bahagana babaga bagiyeyo kubera ko bizeye ko bagiye kuhabona ibyo bahashakaga byose mu biribwa dusangagamo amavuta, imiceri, imyunyu, ibintu byose bibarwa mu biribwa bibaga biriyo n'ibyo kunywa bibaga birimo ntaco wahabura muri supermarket.

Muri butike dusangagamo'ibicuruzwa byinshi bitandukanye: amavuta y'amasukano, sositomati, ibirungo bitandukanye, amakaroni, imyunyu ya habari, vinegere, amakaroni atandukanye, dusangamo n'imigati, amandazi, dusangamo na za mayoneze.

Hirya no hino ku masoko bacuruza ibijanye n'imboga, haba harimo imboga zitandukanye inyanya intoryi pwavuro, ibitunguru na karoti, karoti ni imboga zera zimeze nk'ibijumba, ziba zisa n'umutuku hejuru zifite utwatsi tw'icyatsi, ziraryoha kandi zivura n'amaso.

Ubucuruzi bw'imbuto busigaye buteye imbere cyane. Abacuruzi bakora uko bashoboye bagashaka imbuto nyinshi zitandukanye, nk'amaronje, marakuca, imineke, inanasi, kamara, imyembe, ibinyomoro wotameloni.

Muri kantine zikomeye zigezweho, dusangamo ibinyobwa bitandukanye ,habamo amaji atandukanye yo mu macupa ndetse n'amajerekani, hari aba yarafunguwe ndetse n'atarafungurwa ,habamo n'amafanta atandukanye ,amata y'inyange, yawurute ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu mugi hagaragaramo ibintu byiza byinshi; habamo amagorofa, inzu ndende cyane kandi ziba ari nziza zikomeye. Habamo imihanda migari cyane ugereranyije n'indi mihanda y'ahandi. Iyi mihanda, bisaba ubwenge ndetse n'ubushishozi kugira ngo uyambukiranye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko, baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha ibicuruzwa higanjemo:ibicuruzwa by'imboga, ibicuruzwa biribwa ndetse n'imyaka mu mboga twavugamo: imiteja ,dodo, karoti, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye mu myaka twavugamo: imiceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubu amasoko agezweho ni aba yubakiwe, ku buryo nta muntu ubona hanze. Abacuruzi baba bibereye mu nzu. Mu isoko ry'imyenda kimwe muri ibyo byumba byo muri iryo soko, habaho imyenda itandukanye. Bacuruza imyenda y'amashati, amapantaro, amagutiya, ibiteteyi, imipira ya jampa, ni byinshi bacuruza bitandukanye.

Amapata bakingisha ku nzugi cyangwa se ibikingisho, bicururizwa muri butike zitandukanye. Aya mapata bayashyira ku nzugi z'imbaho kugira ngo babone uko bashyiraho ingufuru. Arakomera cyane iyo bashyizeho imisumari iba ikomeye.

Mu isoko ry'ibiribwa, akenshi dusangagamo imbuto zitandukanye: imineke, inanasi ,wotameloni, imyembe. Ni byinshi dusangagamo bidufitiye akamaro.

Abacuruzi bacuruza ibijyanye n'ibiribwa baba bafite ibicuruzwa byinshi bitandukanye hari amavuta, mayonese, isukari, umunyu ,umuceri, agahunga ,amafu y'ubwoko bwose y'ibikoma, ay'ibigori, ay'amasaka n'ay' uburo ingano.

Amavuta gagiraga amoko menshi cane hariho: amavuta go mu mutwe, hari ag'igikotoro, hari ago mu maso, harimo giriserine, habagaho na puderi z'umutuku, na puderi z'umweru, byose tubibaraga mu bwoko bw'amavuta meza.

Mu masoko hirya no hino atandukanye haba ubucuruzi bwinshi butandukanye . Ubucuruzi bw'imyenda ni ubucuruzi bumaze kugirwa n'abantu benshi cyane ku mabaraza iyo isoko ryaremye usanga aribo batanditse iyo myenda itandukanye amakanzu , amagutiya, ibishora, ibitenge ,mbese imyenda myinshi itandukanye iba itanditswe.

Muri iki gihe hirya no hino hari amasoko, agiye agezweho yubatswe kijyambere kandi yubatswe n'ikoranabuhanga, nk'isoko rya goyiko riba mu mugi wa Musanze, ni isoko ryiza cyane ryubakanye ubuhanga bukomeye. Riteye imbere cyane kubera ko abarigana baba ari benshi, kandi ubona ko rifite ikoranabuhanga rihambaye.

Isoko ribamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo ubuhunga, umuceri, haba hari ibishyimbo, imyenda mbese ibyo washaka byose ntiwabiburamo, ni byinshi cyane biba birimo bitandukanye.

Karoti ni ubwoko bw'imboga bw'ingirakamaro buryoha cyane. Karoti zirera iyo bazitayeho ku buryo bushimishije. Ziba zisa n'umutuku, zifite forume nk'iy'ikijumba. Ziba zifite amazi aryohereye. Hejuru ziba zifite utubabi tw'icyatsi.

Isoko riba ryahuriyemo abantu benshi batandukanye, ibicuruzwa hirya no hino biba birimo bitandukanye. Dusangamo ibyo kurya ndetse iby'imboga, amasafuriya, ibikoresho bitandukanye, imyenda, ibikapu. Ni byiza dusanga mu isoko, haba harimo n'uruhurirane rw'abantu benshi baje kurirema.

Abacuruzi bacuruza ibikoresho byo mu rugo baba bafite ibikoresho bitandukanye; Baba bafite indobo zitandukanye z'amoko yose, amasahane ya palasitike, amasahane y'ibyuma, baba bafite amapulato cyangwa se amasiniye y'ibyuma ndetse n'amasine ya palasitike. Baba bafite rape, ibirushe, ibiyiko, amafoke cyangwa se amafurusheti n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kuri banke tuhasanga serivisi nyinshi zitandukanye, iyo uhasanze abantu benshi kuri gishe bashobora kwitabaza ikarita izwi nka ITM ukayishyira ahabugenewe, ukabona amafaranga utarinze waca kuri gishe. Iyi karita ikoranye ikoranabuhanga, kuko iyo ushatse kubikura amafaranga yawe, uhita uyabona ako kanya.

Iduka ricuruza ibijanye n'imyenda tuhasanga imyenda myinshi itandukanye: amakanzu y'abagore ,tuhasanga amajipo ,amashati ,imyenda myinshi itandukanye ,ibyo twiyorosa nk'amakovurori ndetse n'amashuka ni byinshi tuhasanga bijanye n'imiti.

Inkoko ni ubworozi buteye imbere cyane kandi buteza imbere aborozi. Inkoko iyo bagiye kuzorora bahera ku mishwi. Imishwi iyo bagiye kuyorora hari udusanduku twabugenewe bazirereramo. Baziha amasondore kugira ngo zibyibuhe kandi zimererwe neza.

Amasoko ya kijyambere aba afite uduce dutandukanye, bitewe n'ibicuruzwa abantu bafite, isoko ry'ibiribwa hagomba kuba harimo ibiribwa gusa ,mu isoko ry'imbuto na ho usangamo imbuto nyinshi zitandukanye: imyembe ,amatunda, ibinyomoro ,amaperi haba harimo na za pome ,n'ibindi byinshi bijyanye n'imbuto.

Iyo isoko ryaremye abantu baba babaye benshi cyane, baje kurirema imizigo nayo iba ari myinshi, haba abayitwaye ku magare nk'ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi hari ibiba biri mu modoka, byavuye kure babizanye kubigurishiriza mu masoko.

Iyo ugeze mu isoko uhasanga ibicuruzwa byinshi bitandukanye mu isoko ryubakiye rifite n'ibisima uhasanga hari ibicuruzwa bijyanye n'imboga, amasombe, ibitunguru dodo za seleri, amashu ibyo byose tubisanga mu isoko ry'imboga.

Muri butike dusangamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Habamo za omo, amaji ya novida, sana. Dusangamo biskwi z'amoko menshi korogati, amasabune y'ubwoko bwose, indodo zikoreshwa mu budozi n'ibindi byinshi.

Abacuruzi bacuruza ibijyanye n'ibikoresho byo mu rugo, baba bafite ibitandukanye hari amasafuriya, indobo, amapasi, amajage, ibikosi, terimosi, amasurori, amaporutemanje ndetse n'ibirushi.